Igishushanyo bateretse hejuru, igishushanyo gifite ibice byo mu nda hariho: ibihaha, amara, n'umwijima, n'impyiko. Iruhande hariho impombo ijyana amaraso, iruhande hariho n'akadomora gasa n'umweru.

Intebe ziri mu ishuri zigiye zitondekanye ni iz'abanyeshuri. Inyuma ya zo hariho ikibaho, n'iruhande rw'igisika hariho urugi rw'ubururu, intebe ya mbere yanditseho sikorere.

Aho bicara bari kurya, abanyeshuri bakahicara bari no kuhigira. Ni hirya harimo umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, harimo n'udutebe tw'udutaburete, imbere hariho ibisima, bifite amakaro.

Umugezi uzamuye n'impombo y'icyatsi, impombo y'icyatsi irazamuye, hariho indi itambitse y'umweru, hariho amatafari atambitse y'umutuku.

Ikibuga bakiniramo umupira kiri imbere y'akagari, icyo kibuga bakiniramo baro bagaterera hejuru bagashyira mu kantu kaba kameze nk'akayunguruzo kaba kamanitse ku giti kirekire, imbere yaho hariho amakaro.

Icyapa kiriho amahame y'intore. Gikozwe ku rubaho rwandikishijweho ikaramu y'ubururu n'umukara, bagishushanyije ku matafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri imbere yacyo hariho amadarapo y'u Rwanda, iryo darapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu: iry' ubururu, iry' umuhondo, n' iry'icyatsi, imbere yayo mashuri hariho ibiti, jaride n' umuhanda.

Intebe ziri mu ishuri, zigiye zikurikiranye mu maranje mu duhande tubiri. Inyuma y'izo ntebe hariho ikibaho kigiye gishushanyijeho amakanzu, imipira, amasengeri n'amakabutura.

Umunyeshuri uri mu ishuri ari imbere y'intebe, mu ntebe harimo agakapu hejuru ku ntebe hariho ibitabo n'udukoresho, inyuma ye hariho ikibaho cyo kwandikaho, yambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara n'umweru, ari kureba mu gako....

Ukuboko kuri gushushanya muri kompiyuta. Imbere yayo hariho indi kompiyuta. Iruhande rwayo hariho umuntu wifashe ku itama akaboko ke gafite ikaramu.

Abaganga bari kuvura umwana uryamye yubamye, bambaye imyenda y'umutuku niy'umweru, n'ingofero z'umweru, hariho abagore n'abagabo n'mwana uryamye hasi yubamye, bamutwikiriye.

Kompiyuta iri gufotora ibikoresho biri muri iriya nzu. Iri kubikamera neza, iyi nzu iri imbere y'iyi Kompiyuta hariho imashini. iri imbere y'iyi mashini. Imbere ya ho hariho ikibaho, harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu mashanyarazi.

Salo irimo umugore uri kogosha umugabo. Afite ibikoresho byinshi, afite imashini ku mutwe we, ari kogosha. Muri iyo nzu harimo ibikoresho byinshi; imashini, n’ibikoresho binanura imisatsi.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kureba muri kompiyuta, umukobwa umwe afite ibisuko ku mutwe yambaye ishati y'umweru, uri iruhande rwe nawe ni umuhungu wambaye ishati y'umweru. Imbere yabo hari undi uri gukanda mashini ari kugaragaza intoki gusa.

Uri kwigisha abanyeshuri mashini bari kurebamo. Ari kwigisha ari kubereka mu kirahure. Ari mu ishuri, ni ishuri ririmo abanyeshuri benshi, buri wese yicaye imbere y’imashini ye.

Ameza ariho amamashini, aya mamashini ari kumeza uyu muntu ari kubyerekana imbere hariho abandi bantu bari gufotora bambaye udupfukamunwa tw'umweru.

Abantu bari gukanika bari gukanika ibyuma ni abakanishi bambaye amajire y'ubururu, bafite bambaye na ga z'umutuku, bari gufungura ibyuma bambaye udupfukamunwa tw'umukara .

Abantu bari gutekinika imashini, bayifunguye buri umwe ari kureba ahapfuye akahakora harimo abantu, harimo insinga muri iyo mashini. Hariho umukobwa umwe n'abahungu babiri bambaye amasarubeti asa n'ubururu.

Umusudizi ari gusudira ibyuma, yambaye ingofero, yambaye n'igisurubeti cy'umutuku, afite imashini iri gukeba ibyuma, imbere ye hariho, abantu bambaye isurubeti y'umutuku.

Abanyeshuri bari gusuka umukobwa umusatsi. Bambaye imyenda y'iniforume, bambaye ishati y'umweru n'amajipo y'ubururu, bari kumusuka, umwe wasutse ibituta, undi we ntabwo yasutse. Inyuma yabo hariho undi ufite akantu, ari gushyira mu mutwe.

Abatekinisiye bari gutekinika mashini, bafite udutsinga mu ntoki. Ni umuntu uri inyuma y'undi, undi we ari kureba muri mashini. Bambaye udupfukamunwa dutandukanye, umwe yambaye ak' umweru undi yambaye.

Umuntu wicaye ku ntebe ari gusoma urupapuro, yambaye ishati y'umweru, n'agatambaro k'umutuku kari mu mutwe, hirya hariyo abandi bantu bari kwandika n'abari gusoma.

Abanyeshuri bari mu ishuri baricaye bari gukurikira imbere, bafite amakaye buri umwe afite ikayi imbere, buri wese ahanze amaso imbere ye, buri ntebe yicayeho abanyeshuri babiri babiri.

Umwubatsi ari kubaka kuri fondasiyo ari gushiraho amatafari. Yambaye igisurubeti gisa n'ubururu, yambaye ingofero y'umuhondo, yambaye n'inkweto afite ikintu bakoresha.

Abanyeshuri bari mu ishuri bakurikiye imbere. Buri munyeshuri afite agacupa k'amazi n'imashini. Umwe ahagaze inyuma yabo. Bambaye udupfukamunwa tw'umweru. Hirya hariho undi uri kureba iruhande, yambaye agapfukamunwa k'icyatsi.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu bari kwiga kudoda. Hariho abari gukata ibitenge. Abandi bafite inshinge. Ni ishuri ryigisha imyuga, kudoda imyenda.

Abaforomo benshi bari imbere, bari inyuma y'ameza ariho ibiryo bitukura. Harimo imbuto. Ni amasahani icumi n'abakobwa bari inyuma yayo.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwandika. Buri umwe wese yicaye ku ntebe ye. Bari kwandika bari mu kizamini. Bagiye batondekanye umurongo ku wundi. Nta n'umwe usumba undi. Ni ranje eshatu.

Abanyeshuri bari gutekinika imashini. Bambaye amasarubeti asa n'ubururu, bafite igikoresho bakoresha bari gukora intebe, inyuma hariho intebe bicaraho. Bafite imashini ibaza imbaho bagakora.

Ishuri ririmo abanyeshuri. Buri munyeshuri afite intebe ye yicayemo, afite amazi, agacupa karimo amazi. Imbere ya bo hariho umunyeshuri ufite ikaramu ugiye gukosora. Yambaye inkweto z'umukara, yambaye n' amasosogisi y'umweru. Harimo n'abarimu babiri.

Icyumba abanyeshuri bigiramo kompiyuta buri gatebe kegeranye na kompiyuta, muri icyo cyumba harimo abarimu babiri, harimo ameza ariho kompiyuta n'utwumba tw'izo kompiyuta.

Abantu bacunga parike bari mu gipironi bafite inkoni ndende. Buri umwe afite inkoni. Inyuma yabo hariho abandi na bo bafite inkoni. Inyuma y'abo bantu bose hakikijwe ishyamba ry'ibiti.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga kudoda bafite imashini imbere yabo, buri munyeshuri afite imashini ye, buri munyeshuri yambaye agapfukamunwa, bose bari kudoda bari kureba imbere, hirya hariho n'abandi bantu harimo abana n'abakuru.